Amacupa arimo imiti, by'umwihariko ikoreshwa mu bikorwa byerekeranye n'ubuhinzi. Bayikoresha buhira imyaka kugira ngo barwanye udukoko twibasira imyaka.

Abantu bambaye imyenda yabigenewe, bafite ibikoresho mu migongo yabo izwi nk'amapompo, byifashishwa mu gutera imiti mu bihingwa, hagamijwe gukumira indwara zibyibasira, by'umwihariko ubukoko bukwirakwiza izo ndwara.

Umugabo wambaye bote, wambaye n'ingofero, ufite igikoresho bakoresha bari gutera umuti mu myaka cyitwa ipombo. Kandi iruhande rwe hariho ibintu bimeze nk'ibiti, naho umurima ari guteramo umuti, urimo imboga zizwi nk'amashu.

Umuntu uhetse mu mugongo, igikoresho bita ipombo, aho ari gutera imiti yabugenewe mu bihingwa, kugira ngo arwanye ibyonnyi byona imyaka, bituma umusaruro w'ubuhinzi ukomeza kuba mukeya. iyi miti ikoreshwa mu buryo byo kwica udukoko twangiza imyaka.

Imifuka ikoreshwa mu bikorwa by'iterambere ry'ubuhinzi, aho ikoreshwa kugira ngo yongere umusaruro uturuka ku buhinzi. Buri mufuka umwe muri yo, upima ibiro mirongo itanu.

Umugabo wambaye imyenda yateganijwe, ndetse by'umwihariko afite igikoresho kizwi nk'ipompo cyifashishwa mu gutera imiti mu myaka, hagamijwe kurinda ibyonnyi byangiriza imyaka, ibyo byonnyi byatumaga umusaruro ugabanuka mu buryo bugaragara cyane.

Inzu ikikijwe n'amabati, irimo amafumbire yongera umusaruro ukomoka ku buhinzi. Imifuka y'umweru, buri mufuka upima ibiro ijana na mirongo itatu, by'ifumbire mvaruganda.

Igikoresho gikozwe muri pulastike, giteretse ku bintu bivamo giti bizwi nk'imbaho, icyo gikoresho kirimo ibikomoka mu mazi by'ubwoko bw'amafi, abantu barabirya kuko bikize cyane ku ntungamubiri.

Igishanga kinini kigaragaramo umugezi utemba, hariho umwana ugaragara nk'ushaka kuroba amafi muri uyu mugezi, kandi iki gishanga gikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye by'amoko menshi.

Isahani iriho ibiribwa bikomoka mu mazi bizwi nk'ifi. Haragaragara inyanya ndetse haragaragara n'ubwoko bw'imbuto zizwi nka orenje, mu ndimi z'amahanga.

Hagaragaramo umurima urimo ibyakatsi uhinzemo insinga. Insinga zera ibitoki barya cyangwa bakabikamamo inzoga, kandi hagaragara ibiti inyuma y'uwo murima bikoze agashyamba.

Ahantu hatari imisozi, hahinzemo ibihingwa byo' mu bwoko ngandurarugo kitwa amashaza, bihingwa bigamije gutunga abantu, amazu yo guturamo, ibiti n'imisozi yitwa ibirunga.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'imbuto bwitwa inyanya, iruhande yaho hakikijwe n'ibiti, inyuma hariho inzu abantu batuyemo, ndetse n'insina bigaragara ko ari urutoki.

Kimwe mu bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo kizwi ku izina ry'ikizibazi, aho cyifashishwa mu buvuzi by'umwihariko ibrekeranye n'indwara zo mu nda, nko mu mara ndetse n'izindi.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'urwanda cyitwa igitoki, cyifashishwa mu nganda zikora ibijyanye n'inzoga by'umwihariko urwagwa, ikindi kandi si ibyo gusa mu miryango nyarwanda baranakirya bagifata nk'isoko y'ifunguro.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'ibinyamisogwe bizwi nk'amashaza, ibiti byinshi cyane biri mo hagati muri uwo muririma, ndetse haragaragara n'ibintu bisa n'aho ari ibigorigori byasigaye ku musaruro w'ibigori.

Igihingwa ngengabukungu gihingwa mu gihugu cy'u Rwanda kizwi nk'imigano, kigira umumaro mwinshi cyane, kuko cyifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye, nk'ameza, intebe ,ndetse n'utubati.

Umurima munini cyane uhinzweho ubwoko bw'ibihingwa bibarizwa mu binyamisogwe bizwi nk'amajeri, ibi bihingwa bikora mu mwanya w'ibishyimbo, ndetse kandi inyuma hagaragara agashyamba kibiti kagizwe n'ibiti by'intusi.

Ibyatsi abantu barya byitwa imboga, insina zera ibitoki na byo abantu barya, amakoma na yo inka zirayarya, ndetse hariho n'akayira abantu banyuramo.

Ubwoko bw'imbuto zihingwa mu gihugu cyacu zizwi nk'imyembe by'umwihariko zigira umumaro ukomeye cyane mu biyjanye n'ubuvuzi bw'indwara zikomoka ku muvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi.

Umurima munini cyane ushakajijwe n'amahema, bigaragara ko binarizamo amoko y'ibiti atandukanye, ariko hagaragaramo igiti kitwa umusave, ndetse n'umukozi ushinzwe kubungabunga ubwoko bw'ibiti.

Ubuso bugari cyane, buhinzweho ibihingwa ngandurarugo, biri mu bwoko bw'ibinyamisogwe, by'umwihariko byitwa ibigori. Uyu murima urimo ibigori bikiri bibisi, bifite amababi atoshye ku buryo bitarasarurwa ngo bibe byajyanwa mu bwanikiro.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda kibarizwa mu cyicyiro cy'imboga ndetse n'imbuto. cyamenyekanye ku izina ry'urunyanya cyifashishwa mu nganda zigitunganyagamo ibiribwa byifashishwa n'umuryango mugari nyarwanda ndetse ku rwego mpuzamahanga.

Inyamaswa iri mu muryango w'ibinyamabere, izwi nk'inka aho igaragara ko ifite imitavu ebyiri iri konsa. Hagaragaramo umuntu nawe usa knaho ariwe uzororora arikonkerereza iyo mitavu cyangwa se inyana.

Hagaragara abadamu bari mu murima uhinzemo ibihingwa ngengabukungu, biri mu bwoko bw'icyayi. Bafite ibisero bashiramo amababi'cyayi bamaze gusoroma. Inyuma yaho haragaragara ibiti bikoze akantu k'agashamba gatoya.

Ubwoko bumwe mu mbuto zihingwaga mu rwanda buzwi nka voka hano haragaragara voka ebyiri ariko iya gatatu iciyemo igice ifite igice cyo mu nda twitaga urubuto ikindi kandi ivoka yifashishwaga mu bikorwa bijyanye n'iterambere aho ivagamo ibikoresho byifashishwaga mu gukora ibikoresho by'isuku.

Ibiribwa gakondo bizwi nk'amateke, ikindi kandi bizwiho ko bitera imbaraga. Hariho amateke atatu yuzuye ndetse iryakane ryo ni igice.

Amatungo afite uruhare rukomeye mu iterambere ry'abanyarwanda, azwi nk'inka. Aho inka imwe, ebyiri, eshatu ziri mu byatsi zitembera zirimo zirishya.

Ubwoko bw'ibiribwa nyarwanda bizwi kw'izina ry'ibijumba, bifite umwihariko wo gutera imbaraga, kandi bikunda kuboneka mu uturere twose twigihugu cy'urwanda.

Ubwoko bw'imboga n'imbuto bigiye bitandukanye hagaragaramo: intogi, ibibiringanyi, ibitunguru byose bikoreshwa mu muryango nyarwanda kandi hagaragaramo ikigega gishinzwe kubika amazi akomoka ku imvura.

Ibihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko biri mu cyiciro cy'imboga n'imbuto bizwi ku izina ry'intoryi, ibi bihingwa bigira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura imibereho myiza y'abantu, by'umwihariko kurinda indwara bitewe n'uko ari imboga.

Bimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda byitwa ibisheke . Bizwiho kugira isukari nyinshi cyane, ndetse binifashishwa mu nganda zibitunganyamo isukari ikoreshwa mu ngo nk'ibiribwa.

Abagabo bari mu nzu nini yubakishije ibiti kandi isakaje amabati, aho bigaragara ko arimo bororera amatungo yo mu bwoko bwitwa ihene. Aba bagabo bafashe ihene imwe, bigaragara yuko bari kuyikuramo ikiziriko kiri mu ijosi ryayo.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'ibinyampeke uzwi nk'ibigori, ibi bifite uruhare runini mu iterambere ry'umuryango nyarwanda, kuko havamo ibyo kurya ndetse biranagurishwa ku masoko amwe n'amwe, bigatanga ubukungu mu miryango nyarwanda.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda kizwi nk'inanasi, gifite umwihariko wo kugira umutobe uryohera cyane, ibi bihingwa bikunda guhingwa mu bice by'amajyaruguru, birangwamo imisozi miremire, ndetse no gukonja, nka Gakenke ndetse na Ruri.

Umurima munini cyane uhinzweho ibihingwa ngandurarugo bibarizwa mu muryango w'imbuto bizwi nk'ibinyomoro, ibi kandi bikoreshwa nk'umuti aho bivura indwara zitandukanye zibasira abantu mu myaka itandukanye, by'umwihariko indwara yo kubura amaraso ahagije mu mubiri.

Imifuka irambitseho ubwoko bw'imboga n'imbuto, aho harimo intoryi ndetse n'inyanya. Bigaragara ko hariho n'umuntu ushobora kuba azicuruza, cyangwa se akaba ari umukiriya uje kuzigura.

Ibihingwa ngengabukungu bizwi nk' icyayi, aho hari abagore bari gusarura ibi bihingwa bafite ibikoresho bikoze mu migano bizwi nk' udusero, aribyo bifashisha bashiramo icyayi bamaze gusarura.

Ahantu harehare cyane hagaragaramo ibiti, imisozi ndetse kandi haragaragaramo abantu, abagore ndetse n'abagabo by'umwihariko, abagore bafite amasuka aho bari guhinga umurima.

Ibiribwa bihinze ahantu runaka biribwa n'abantu, biri mu cyiciro cy'imboga n'imbuto byitwa amashu, bifite amababi y'icyatsi ndetse agaye cyane cyangwa se magari.

Imbuto y'ibimera bibarizwa mu binyabijumba izwi nk'ibirayi, ikunda guhingwa mu ntara y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu turere nka Musanze mu gice cya Kinigi, ndetse no muri Burera ndetse n'Uburengerazuba aho usangamo ibice bya Nyabihu.

Umuhinzi uhetse igikoresho cyitwa ipombo, aho arimo aragenda yuhira imyaka ye azenguruka mu umurima wose ndetse mu murima hagati haragaragaramo ibiti bihagazemo ndetse no ku ruhande haragaragara akantu gasa nk'agashyamba.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa ngengabukungu bizwi nki'cyayi. Aho harimo abadamu babiri barimo gusarura icyayi. Bafite ibitebo bikoze mu migano bashyiramo icyayi bamaze gusoroma.

Abagore babiri n'umugabo umwe, umugabo ari hagati, bose bafite ubwoko bw'imboga bwitwa amashu. Inyuma yabo ho gatoya hari ibiti bigaragara ko atari byinshi, mbese muri makeya bari gusarura imboga z'amashu.

Ibihingwa ngengabukungu bibarizwa mu kiciro k'mboga n'imbuto byitwa ibitunguru, aho bigira umumaro mwinshi mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, ku kurwanya indwara za kanseri zifata mu kanwa, ndetse kandi binatanga amafaranga ku muntu wabikozemo umushinga wo kubihinga.

Kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda, by'umwihariko mu ntara y'amajyaruguru, kizwi ku izina ry'inanasi, by'umwihariko kigira uruhare mu gutanga ibikoresho by'ibanze, bikorwamo amaji y'ubwoko butandukanye.

Ibihingwa bihingwa mu Rwanda ariko bibarizwa mu muryango w'imbuto, byitwa ibinyomoro. Byifashishwa cyane ku bantu bafite ibibazo byo kubura amaraso. Ikindi kandi ni byiza mu kubungabunga ubuzima bwa muntu.

Ibihingwa ngandurarugo birimo ubwoko bw'ibitera imbaraga byitwa ibijumba. Aho birundanyije ahantu hamwe, bisa n'aho ari aho babicururiza cyangwa se babisarurye. Iruhande gatoya hari ibindi bintu bigaragara nk'aho ari amateke biharunze na byo.

Umurima uhinzwemo icyayi hagaragaramo abantu batatu bari gusarura icyayi, ikindi kandi bafite ibisero bishirwamo icyayi bamaze gusoroma. Iruhande hagaragara agashyamba karimo ibiti birebire.

Ahantu rusange hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, ahazwi nko ku isoko, aho bacururiza ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi, ari byo biribwa. Nk'ibijumba, amateke, ibihaza, amaronji, amacunga, indimu, ndetse n'ibindi.

Imirima minini bahingamo icyayi, abagore benshi bari gusoroma icyayi, bafite akantu mu mugongo kitwa agasero, babikamo icyayi bamaze gusoroma.

Bimwe mu bihingwa bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda bibarizwa mu muryango w'ibinyabijumba bizwi nk'ibirayi, by'umwihariko bihingwa mu bice by'u Rwanda mu Ntara y'amajyaruguru mu Karere ka Musaze ndetse na Burera.

Igikorwa remezo rusange kizwi ku izina ry'isoko, aho hacururizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, haragaragara ibitoki biribwa, ariko na none si ukubirya gusa binakoreshwa benga ibinyobwa bizwi nk'urwagwa, cyangwa se inzoga yo mu bitoki.

Ubwoko bumwe bw'inyamaswa zororwa mu Rwanda zibarizwa kandi mu cyiciro cy'inyamaswa z'inyamabere, zizwi ku izina ry'ihene zifite umwihariko wo kuba zikunda kuba mu bice bishyuha by'igihugu, nk'Uburasirazuba bw'u Rwanda.

Umugore ukora imirimo yerekeranye n’ubuhinzi, by’umwihariko akora ubuhinzi bwerekeranye n’urutoki. Aho ubu buhinzi butanga umusaruro ukoreshwa mu nganda zikora urwagwa.

Igiti cyitwa ipera cyera imbuto ziryoha. Hariho urubuto rumwe ruhishije ku buryo rugejeje igihe cyo gusarurwa. Haragaragara n'izindi mbuto zikiri ntoya zitwa ibitushi, bivuze ko zitarahisha.

Amabase ndetse n'imifuniko yazo, hariho ibinyampeke bitandukanye: umuceri, ibishyimbo, n'ibindi byinshi. Aho hariho ubukombe bukoreshwa mu ku bipima, mu batagira imyuzani igezweho ipima ibinyampeke.

Umurima munini uhinzemo ibinyamisogwe byo mu bwoko bw'amashaza, hariho n'abantu ku ruhande barimo bayakoraho ndetse haragaragaramo n'insinga zitwara umuriro w' amashanyarazi, ikindi kandi hariho igiti ku ruhande cyera amavoka, ndetse hirya hagaragaramo inzu igaragarako ituwemo n'abantu.

Imifuka y'umweru irimo ibikomoka ku buhinzi, by'umwihariko ibinyampeke biri mu bwoko bw'ingano, ibi binyampeke akenshi byifashishwa n'abantu barya imitsima, kunwamo igikoma ndetse n'ibindi.

Ibihingwa ngandurarugo bibarizwa mu kiciro cy'ibinyampeke, byitwa ibigori, ibi bihingwa bigira uruhare rukomeye cyane, mu guteza imbere inganda zishingiye ku bikomoka ku buhinzi, by'umwihariko ku nganda zikora ibijyanye na kawunga, ndetse n'andi mafu.

Ikizu kinini cyane, bahunikamo umusaruro ukomoka ku buhinzi, by'umwihariko ibigori, gisakaje amabati. Kandi hari n'abantu bigaragara ko ari bo bafite inshingano zo gukurikirana imirimo ihakorerwa.

Ubuso bugari cyane buhinzweho ibihingwa by'ubwoko bw'inyamisogwe bizwi nk'ibishyimbo. Bizwiho kandi kugira intungamubiri nyinshi cyane ku buryo bigereranywa n'inyama. inyuma hagaragara ibiti byinshi bikoze akantu k'agashyamba.

Imifuka irimo kimwe mu bihingwa kibarizwa mu muryango w' ibinyampeke gihingwa mu gihugu cy'u Rwanda kizwi nk'umuceri, ikindi kandi kizwiho ko ari kimwe mu biribwa bishobora kuba bitera imbaraga umubiri w'umuntu wabashije kubirya.

Ahantu hazwi nk'ubwanikiro, aho abahinzi bishyira hamwe bakahahuriza umusaruro wabo, by'umwihariko ukomoka ku bihingwa by'ibinyampeke, ari byo byitwa ibigori.

Iki ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda kibarizwa mu muryango w'ibinyampeke cyitwa amasaka . Cyifashishwaga mu kugikoresha umusururu, ndetse cyifashishwaga mu bikorwa bijanye no kubetera urwagwa cg se inzoga z'ibitoki.

Igikoresho gakondo, cyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, by'umwihariko mu bijyanye no guhunika imyaka, iri mu igice cy'ibinyampeke, nk'ibishyimbo, ibigori, amasaka, ndetse n'ibindi.

Iki ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu rwanda kibarirwa mu muryango w'ibinyampeke, by'umwihariko iki gihingwa gikoreshwaga mu nganda zikora inzoga kandi nano gikorwamo amafu yifashishwaga mu gukora igikoma ndetse kikanaribwamo n'imitsima mu muryango mugari nyarwanda.

Ahantu hagaragaramo indabo, ibiti ndetse n'abagabo babiri bari guhura soya, ndetse haragaragara n'ibintu by'ibiti bakoresha igihe bari guhura soya cyangwa se ibishyimbo muri rusange.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu rwanda rwo hambere, aho cyabohwaga hakoreshejwe ibiti byavaga mu ishyamba, bakagihomesha amase. Iki gikoresho cyakoreshwaga bahunika imyaka, by'umwihariko, ikomoka ku binyampeke. Harimo ibigori ibishyimbo amasaka ndetse n'uburo.

Imwe mu nyamaswa zororwa kandi ibarizwa mu muryango w'iz'inyamabere, ifite umwihariko wo kuba irya ibintu byose ikindi kandi ikaba ibyara ibyana byinshi, bishobora kugera ku icumi.

Inyamaswa zibarizwa mu muryango w'inyamabere, akenshi zororwa mu Rwanda, zizwi nk'amahene, hagaragara abana babiri bakora inshingano zo kuragira aya mahene bazwi ku izina ry'abashumba

Inyamaswa zibarirwa mu muryango w'inyamabere, zikaba ari n'inyamaswa zororwa mu ngo. Zifite umwihariko wo kuba zitanga inyama zikoreshwa mu maresitora ndetse n'amabare, kandi ikindi kandi ni uko zizwiho ko zororoka vuba.

Ahantu hari inyamaswa zororwa mu rugo, zibarizwa mu muryango w'ibiguruka zizwi nk'inkoko. Ikindi kandi zifite umwihariko wo kuba zitanga amagi, ndetse n'inyama.

Ahantu bacururiza umusaruro w'ibikomoka ku matungo by'umwihariko inyama. Haragaragara umuntu ukora muri iyi nzu icuruza uyu musaruro ,kandi bizwi ko inyama zigira uruhare rukomeye cyane, mu mibereho myiza y'ikiremwamuntu.

Ubwoko bw’inyamaswa z’inyamabere zororerwa mu rugo bwitwa ingurube, zizwiho kubyara ibyana byinshi. Nk’iyi ngiyi iri konsa ibyana bigera ku icumi, ni yo mpamvu zizwiho kubyara ibyana byinshi cyane.

Imwe mu nyamaswa zororwa mu gihugu cyacu, ziba mu muryango w'inyamabere, zizwi ku izina ry'intama cyangwa se ibipfuri, zigira umwihariko wo kuba zifite inyama ziryoha cyane. Cyane igisembe cyayo cyangwa umurizo.

Zimwe mu nyamaswa zororerwa mu ngo zizwi nk'ingurube, zifite umwihariko wo kuba zabasha kurya amoko y'ibyo kurya byose, kandi ikindi zishobora kubyara ibyana bigera ku mubare nk'icumi.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubworozi, by'umwihariko bororeramo inkoko zitanga amagi ndetse n'inyama. Hagaragaramo udukosho dukoze mu mbaho dukoreshwa igihe bari kuziha amazi. Kandi hagaragaramo umunzani n'akabase bikoreshwa igihe bari gupima ibiro by'izo nkoko, kugira ngo barebe uko ziri gutera imbere.

Ahantu bororera inka, harimo abantu babiri umwe yayifashe mu izuru. Bigaragara ko aribo bazikingira kandi aha hantu hagaragara inka zifite amabara atandukanye. Hari ikivuvu, hari umweru, ni nyinshi cyane pe.

Igikoresho kigaragaramo inyamaswa ziri mu bwoko bw'ibiguruka, zororwa mu bice bigiye bitandukanye. Aho buri gice kirimo ingabo zizwi nk'amasake, ikindi kikabamo ingore zizwi nk'inkokokazi. Izi nkoko zitanga umusaruro w'amagi, ndetse n'inyama.

Zimwe mu nyamaswa zororwa zibarizwa mu muryango w'ibiguruka, haragaragara inkoko iri iburyo bayita inkokokazi, na ho iri ibumoso bayita isake.

Ubwoko bw'inyamaswa iri mu cyiciro cy'iz'inyamabere, ifite umwihariko wo kuba irya ibintu byose, ariko nanone izwiho kuba imwe mu nyamaswa ishobora kubyara ibyana byinshi.

Rimwe mu matungo yororerwa mu rugo rizwi ku izina ry'inkoko. Iragaragara iri mu magi yayo, aho iri gukora igikorwa bita kurarira, kugira ngo izabashe gukuramo imishwi, kandi iri ahantu hagizwe n'ibyatsi byinshi cyane bikoze ikintu cyitwa icyari.

Abagore ndetse n'abagabo, bamwe muri bo bambaye inkweto zizwi nka bote, bari ahantutu bororera amatungo agiye atandukanye, umwe muri bo afite ikayi, bigaragara ko ari yo yandikamo.

Abantu bagizwe n'itsinda ry'abagore ndetse n'abagabo, bakora imirimo ijyanye no kuvura amatungo ndetse no kuyakingira indwara, ziyibasira mu gihe runaka aba bazwi nkaba veterineri, mu magambo y'indimi z'amahanga.

Inzu ikozwe nk'ibiti, izwi nk'ikiraro, ariho bororera inka ndetse n'andi matungo. Ariko kandi, hagaragara n'umuntu warora izi nka, cyangwa se akaba ari umuntu ushinzwe kuzivura, mu ndimi z'amahanga uzwi nka veterinari, cyangwa se muganga w'amatungo muri rusange.

Zimwe mu nyamaswa zororwa mu gihugu cy'u Rwanda, zibarizwa mu muryango w'ibiguruka zizwi nk'inkoko, zifite umwihariko wo kuba zitanga umusaruro w'amagi, ndetse zigatanga n'umusaruro w'inyama, bigira uruhare rukomeye cyane mu mibereho ya muntu.

Ahantu bororeraga inyamaswa z'inyamabere zizwi nk'ingurube, inwiriko wi zin nyayamaswa ni uko zitanga umusaruro mu gihe gitoya cyane, kuko imwe ishobora kubyara ibyana bigera ku icumi haragaragaramo n'umuntu bigaragara ko ari we zorora.

Inyamaswa iba mu ishyamba iri mu cyiciro cy'inyamaswa z'inyamabere, izwi ku izina ry'ishya. Umwihariko wayo ni uko ari imwe mu nyamaswa izi kwirukanka cyane ku muvuduko uri hejuru ntagereranywa.

Inyamaswa iba mu ishyamba izwiho kugira umwihariko wo kuba ifite igikonoshwa gikomeye cyane ikindi kandi igaragara nk'aho ari ntoya by'umwihariko ikunda kwibera mu bice bishuha cyane ni ukuvuga nk'uburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda.

Inyamaswa ifitanye isano by'umwihariko n'umuntu, izwi nk'inkende. Izi nyamaswa zikunda kuba ahantu hari amashyamba, by'umwihariko mu misozi miremire, nko mu birunga ndetse n'andi mashyamba nka gishwati, akagera ndetse n'ayandi.

Inyamaswa zibarizwa mu muryango w'inyamabere zizwi ku izina ry'ingagi. Zifite umwihariko wo kuba zifitanye isano ya hafi n'umuntu. Zikunda kuba mu misozi miremire cyangwa no mu birunga.

Ishyamba rigizwe n'ibiti bitari birebire cyane ndetse n'umukenke, aho hagaragaramo inyamaswa zirimo umuryango w'inyamabere zitwa agasumbashyamba. Izi nyamaswa zizwiho kugira ijosi rirerire cyane.

Kimwe mu binyabuzima biba mu ishyamba kizwi ku izina ry'akanyamasyo, gifite umwihariko wo kuba kizwiho ko kigira igikonoshwa gikomeye cyane, gikunda kuba mu bice by'amashamba, ahantu hashyuha, nko mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi.

Inyamaswa izwiho kuba ikurura inda ndetse izwiho kuba igira ubumara bwinshi cyane izina ryayo ni inzoka. Zifite umwihariko wo kuba zikunda kuba ahantu hashyuha ni ukuvuga nko mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu c'yu Rwanda.

Inyamaswa ziba mu ishyamba zibarizwa mu muryango w'inyamabere zizwi nk'ingagi. Izi nyamaswa zifitanye isano ya hafi n'umuntu, ikindi kandi zikunda kuba mu Majaruguru y'u Rwanda, by'umwihariko mu misozi y'ibirunga.

Inyamaswa zibarizwa mu muryango w'iz'inyamabere, kandi ziba mu ishyamba, bazita inkende. Zifite umwihariko wo kuba zifitanye isano ya hafi n'umuntu, ikindi kandi zizwiho kurira ibiti cyane, ndetse no kuba zikunda imineke byahebuje.